Abagabo batatu n'abagore babiri bambaye udupfukamunwa, bari mu cyumba cyahariwe gufatirwamo ibizamini by'ubuzima biturutse mu barwayi ba Kovidi cumi n'icyenda, binjiye muri icyo cyumba bafunze ibiganza hose hose basigaza amaraso gusa.

Umuganga uri muri laboratwari afite amacupa atanu arimo amaraso y'abarwayi baje kwisuzumisha Sida, baje kureba niba nta gakoko gatera ubwandu bwa virusi ya Sida baba bafite mu maraso.

Imbaga nyamwinshi y'abantu bateraniye hamwe biragaragara ko biganjemo abajyanama b'ubuzima, bamaze guhabwa amahugurwa kugira ngo bajye gufasha abaturage babana nabo mu midugudu, kwirinda indwara ziterwa n'imirire mibi ndetse n'izituruka ku mwanda.